Ibikoresho bikenerwa n'abana b'incuke harimo ibikapu byo gutwaramo amakaye, ibi ngibi rero bigomba kuba bikoze mu mwenda mwiza kandi ukomeye kuko nibyo byamaze kugaragara ko biramba.

Inyubako ziba mu mashuri y'inshuke zigomba kugirirwa isuku ihagije, ibi ngibi bizatuma ireme ry'uburezi rizamuka ndetse n'abantu bakomeza kugenda bava mu bujiji, hagomba kuba hari uruhare rw'ababyeyi n'abarezi muri rusange.

Ibitabo bigiye birimo amashusho atandukanye cyanecyane ibikoreshwa mu mashuri y'ibanze no mu nshuke, ibi ngibi bituma ubwonko bw'abana bukura ndetse na bo bakagira amatsiko yo gukora ubushakashatsi.

Amashuri abanza n'ay'inshuke akunze kuba bafite ibishushanyo ku ruhande bigaragaza amasomo bahafatira, ibi ngibi rero bituma ubwonko bw'abana bukanguka, bukaguka ndetse bakabasha no gutekereza cyane.

Abana biga mu mashuri y'inshuke baba bagomba kugira n'umwanya wo kuruhuka mu gihe bakitse amasomo. Ibingibi rero bituma ntawe ugira ikibazo cy'imitekerereze kuko aba yamaze kuruhuka neza.

Amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, akunze kuba afite ibishushanyo byerekana abana bari gukina, cyangwa se bari gukora ibindi bikorwa bibagirira akamaro. Ibingibi rero biba bifungura ubwonko bw'abana, nabo bagatangira gutekereza byagutse.

Ibishushanyo bikunze gushyirwa ku bitabo by'amashuri y'inshuke, bituma abana bafunguka mu bwonko, bagashishikarira gusoma ndetse no gusobanukirwa. Ibi ngibi bituma igihugu gikomeza kugira abantu b'injijuke kandi bakiri batoya.

Umupira ukunze kuba ugaragara ahantu henshi hatandukanye ndavuga uwa'amaguru, ntabwo rero abantu benshi bakunze kuyitabira nko mu bice byo mu cyaro kuko baba batarasobanukirwa neza ibyo aribyo.

Abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'incuke baba bagomba gutemberezwa bakaruhuka kandi bakajyanwa ahantu heza habaruhura mu mutwe ku buryo buhagije, ibi ngibi rero bituma ubwenge bwabo bwaguka kandi bagakomeza no kugenda bakunda ishuri.

Amashuri y'inshuke akunze kuba afitemo udukinisho tw'abana, mu gihe abana bakitse amasomo, baragenda bagatozwa ibyo bishushanyo ndetse bakabahereza n'ibikoresho bimwe na bimwe, bagakina bakaruhura mu mutwe.

Abana batozwa umuco wo gushushanya nka kimwe mu bikorwa by'ubugeni, ibi ngibi rero bituma umuco usigasirwa kandi ugakundwa n'abakiri batoya uko baba bishimira kubona ibya kera bari kubikora nabo.

Gahunda leta ifite harimo kurwanya ihohoterwa, imirire mibi ndetse n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Niyo mpamvu rero ikunze kugenda igafata abaturage, ikabicaza ahantu hamwe, ikabaganiriza ku ngaruka z'ibikorwa nk'ibyo ngibyo.

Abana iyo bakiri batoya bakunze kuruhanya cyane, ntibapfa kumenya ngo ikibi, ikiza ni ikihe, baba birira ibyo babonye ari na ho ukunze kubona bakunze kurwara indwara zirimo inzoka n'impiswi.

Inyubako z'amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, ziba zishushanyijeho ibishushanyo bigenda bigaragaza ibyo biga. Ibi ngibi bituma ubumenyi abana bafite mu bintu bwiyongera kandi bikabatera n'amatsiko menshi.

Amashuri y'incuke akunze kwifashisha imfashanyigisho nk'ibitabo bigaragaramo ibishushanyo. Ibingibi rero bituma bafunguka mu mutwe bagashishikarira gusoma, bakaba bavumbura n'ibintu bishyashya.

Kandagira ukarabe, ni igikoresho cy'isuku. Mu bihe by'icyorezo, usanga abantu benshi aribwo bitabira isuku kandi nyamara ibi ngibi byakagombye kuba umuco ndetse ahantu hahurira n'abantu benshi ho byakagombye kuba itegeko.

Ibishushanyo biba bifite icyo bigaragaza, hari ibintu rero tuba tugomba kwitondera mu gukora, ntabwo ari ugupfa gukora ibyo tubonye kuko tuzi akamaro kabyo ndetse n'uyu muco uba ugomba gutozwa abakiri batoya.

Ibitabo byo mu mashuri y'incuke ndetse n'abanza bikunze kuba bifite amashusho agaragaza aho utunyamaswa dutoya ariko tudateye ubwoba, ibi ngi bituma abana bisanzura bakagira amatsiko ndetse bakagerageza no gusoma cyane.

Imfashanyigisho zitandukanye tubonamo mudasobwa n'ibitabo. Niyo mpamvu ahantu ibitabo biri tuaba tugomba kubifata neza tukabibungabunga, tukabyitaho tukirinda kubica cyangwa se kubyangiza mu bundi buryo.

Amashuri abanza n'ay'inshuke akunze kugira uruhare runini mu iterambere, burya umwana ubyirutse azi gusoma aba atandukanye n'utabizi kuko we aba ajijutse ndetse akabasha no gusobanukirwa gahunda za leta.

Amashuri abanza ndetse n'ay'incuke, hakunze kugaragara ibyicungo, ibi ngibi bifasha abana kuruhuka mu mutwe mu gihe basoje amasomo yabo kandi burya na siporo ni ingenzi mu buzima bwacu.

Abana bo mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, bakunze gutozwa kwandika. Harimo ingombajwi n'inyajwi. Ibi ngibi rero bituma umwana akura azi kwandika neza kandi afungutse.

Amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, agomba kuba afite ibishushanyo bigenda bikangurira abana gusoma ndetse no kubafasha mu gufata mu mutwe. Ibi ngibi bituma ireme ry'uburezi rigenda ryiyongera kandi n'abana bakaba bazavamo abashakashatsi beza.

Inyubako za Leta zigomba kuba ziri ahantu heza kandi hitaruye, ntabwo rero tugomba gusigasira ibyagezweho ngo twibagirwe amashuri ndetse n'amavuriro, ibi bituma iterambere rizamuka.

Ibirango bimwe na bimwe biba bifite icyo bishaka kwerekana cyangwa se kwigisha. Ntabwo rero twakirengagiza akamaro kabyo n'icyo bimariye igihugu cyangwa se urubyiruko muri rusange. Tugomba rero kumenya kubisobanukirwa neza.

Inyubako za leta nk'amashuri zikunze kuba ziri ahantu hagaragara. Nko mu burezi bw'ibanze n'inshuke, haba hariho ibishushanyo biba bifite icyo byerekana ndetse ibi ngibi bigatuma abana bagira amatsiko, bikabafungura mu mutwe bagatangira no gushakashaka n'ibindi bishyashya.

Amashuri abanza ndetse n'ay'incuke akunze kuba afite ibintu bigiye bitandukanye nk'udukombe bakunze kujyanamo ibyo abana baribuze gufata mu gihe cyo gukina cyangwa se mu kiruhuko runaka, abana rero bagomba guhabwa indyo yuzuye ndetse n'iyo ababyeyi babo baba badahari bagomba kumenya neza ko bahawe ibintu bya ngombwa bikenewe.

Abana b'inshuke baba bagomba kugira urugendoshuri mu bice bigiye bitandukanye kandi bakajya ahantu hari ibyicungo kuko ibi ngibi bibafasha kuruhura mu mutwe maze na bo bagakomeza gushakisha ubwenge n'ubumenyi kandi bagakurana uwo muco wo guhora bafitiye amatsiko ibintu bishyashya batarabona.

Amashuri abanza n'ay'inshuke, ku nkuta zayo haba hashushanyijeho, aho usanga buri wese yitoza gusoma no kumenya gushushanya. Ibi ngibi rero usanga bibagirira akamaro mu gihe kizaza.

Abantu benshi bamaze gusobanukirwa na gahunda y'uburezi bw'ibanze ndetse no mu mashuri y'incuke. Ibi ngibi bituma abantu benshi bitabira kujyana abana babo muri aya mashuri ndetse bakagenda bagatozwa n'ubumenyi n'uburere.

Ibisimba ntabwo byose bikunze kugirira nabi abantu, hari ibyo tubana mu rugo nk'imbwa, aho zifashishwa mu kurinda umutekano w'abantu n'ibintu, kandi ibingibi bigakomeza no gutuma ibidukikije bitangirika.

Amashuri y'inshuke n'abanza, akunze kuba afite ibishushanyo biri ku nkuta. Ibi ngibi bituma ubwonko bw'abana bukanguka, bagakora ubuvumbuzi ndetse bakagerageza no gushaka ubushakashatsi.

Amashuri abanza n'ay'inshuke ku nkuta zayo haba hashushanyijeho ibishushanyo cyangwa se amashusho afite icyo asobanura, iyo ngibi bituma abana bamenya gusoma bikabatera amatsiko ndetse bakaba bavumbura n'ibintu bishyashya.

Amashuri abanza agenda yifashisha ibishushanyo mu kumenya umuntu, harimo nko kuba bashushanya umutima ibice biwugize, n'uburyo amaraso atembera mu mubiri ,ibi ngibi bigatuma uburezi bukomeza gutezwa imbere.

Abana batozwa gukora ibishushanyo kuko burya bajya kuvuga ngo nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Ntabwo rero biba bishatse kuvuga ko atakora ibindi bikorwa bitandukanye ariko ikintu cyo kwita ku bugeni ni ingenzi mu muco wa kinyarwanda.

Amashuri yo mu cyaro ntabwo akunze kwitabwaho cyane kuko usanga abana bayashyiraho ibyondo nk'igihe imvura yaguye cyangwa se ntihakorwemo n'isuku ihagije.

Ibikoresho bya gakondo biba bigomba gusobanurirwa abana kuko harimo ababa batabizi cyane cyane nk'abiga mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza. Ibi ngib ni mu rwego rwo gusigasira umuco kugira ngo utazima.

Amashuri ni inyubako zigiye zigaragara ahantu henshi mu gihugu. Ibingibi bituma leta igenda ishyiramo imbaraga nyinshi mu gushyigikira uburezi bufite ireme kandi ikagira n'umuco igenda itoza abantu barerwa muri ayo mashuri yagiye yubakwa.

Imibare ni isomo ryigishwa mu mashuri abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza ariko rero bisaba guhera hasi ukamenya gukoresha ibikoresho byifashishwa nko mu gushushanya ibinyampande ndetse no guca inziga zigiye zitandukanye.

Ibigo by'amashuri byubatswe ahantu heza bikunze gutanga uburezi bufite ireme, ibi ngibi bigenda bigaragarira buri wese aho usanga basohora abanyeshuri b'intyoza mu bintu bigiye bitandukanye.

Ababyeyi bashishikarizwa gukora inshingano zabo neza aho bagomba gushakira abana babo ibikoresho by'ishuri, ibi ngibi bituma umusaruro wiyongera mu burezi kandi hakaboneka n'abashakashatsi benshi.

Inyubako zigiye zitandukanye nk'amashuri, ntabwo zikunze kuba ziri ahantu hahanamye. Ibi ngibi rero bituma zibungabungwa neza kandi abantu bakamenya gusigasira ibyagezweho, iyo bari kuzibona ahantu heza.

Umubumbe wacu w'isi ufite iyindi mibumbe uyigaragiye. Aha ngaha rero ntabwo tugomba kwirengagiza ko hari ibindi binyabuzima bishobora kuhaboneka cyane cyane mu isanzure kuko abashakashatsi benshi bagenda berekana ko hari ibindi biremwa bibayo.

Ibigo by'amashuri bikunze kubakwa ahantu heza kandi hagaragara. Ibi ngibi rero bigomba gushyirwamo imbaraga na Leta ndetse n'isi muri rusange, ikagira inkunga igenera igikorwa cy'uburezi. Ibi bizatuma dutera imbere mu bice byose bitandukanye.

Ibikoresho bikoreshwa mu mashuri, biba bigomba kubungwabungwa, bikabikwa mu tubati. Ibi ngibi bituma bitangirika. Aha ngaha ndavuga nk'ibitabo, aho dushobora no kubisanga mu masomero y'ibigo, bigiye bitandukanye.

Ibishushanyo bigaragara mu mfashanyigisho z'abana harimo inyamaswa n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ibi bizatuma ireme ry'uburezi ritera imbere kandi rizamuke ndetse n'igihugu kibasha kugira abashakashatsi benshi.

Abarezi bakunze gutoza abana kumenya gusomera ku kibaho. Ibingibi bituma uburezi bukomeza kugenda bugira ireme kandi bugafata n'indi ntera ku ruhando mpuzamahanga. cyane cyane ko bakunze kuvuga ko umuntu ukunda gusoma cyane akunze kuvamo umushakashatsi.

Nta kintu kiyiza nko kubona abana biga mu mashuri y'inshuke bishimye, ibi ngibi bikunze kuba bigaragara cyane cyane ahantu abarezi bakora neza inshingano zabo kuko n'abana usanga babiyumvamo cyane maze bakidagadura.

Ni byiza kwigira ahantu hafite isuku kandi n'umutekano, akenshi rero abana bato usanga bafite ibintu by'urugomo nta kinyabupfura batamenya gushyira ibintu mu mwanya wabyo, ni yo mpamvu Leta idushishikariza kugira uburere kuko burya baravuga ngo buruta ubuvuke.

Abantu benshi rero bagiye batozwa kwigira. Uyu muco ugomba gushyigikirwa kandi ukigishwa mu bice byose bigiye bitandukanye by'igihugu, cyane cyane abakiri bato ndetse n'urubyiruko muri rusange.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu burezi cyane cyane mu mashuri abanza, harimo inyubako ndetse n'ibitabo biba bifite icyo bigaragaza, ibi ngibi bituma ireme ry'uburezi rizamuka.

Inyubako zimwe na zimwe za Leta zikunze kuba ziri ahantu hagaragara, ahangaha navuga nk'urugero nk'amashuri y'ibanze, aho usanga ari ahantu heza, k'uburyo abana bahafatira amasomo nta bibazo bashobora kuhagirira.

Isomo ry'imibare rikenera ibikoresho bitandukanye, harimo; amakaramu, amarate, n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gushushanya ibinyampande. Ibi ngibi rero bituma iri somo rikundwa n'abatari bakeya.

Amwe mu mashuri abanza akunze kuba afite uturango tugiye dushushanyije ahantu hagiye hatandukanye. Ibi ngibi bituma abana bakanguka mu bwonko, bakavumbura ibintu bishyashya ndetse bakagerageza no gushaka uburyo babihindura, bakabihereza umwimerere wa nyawo.

Uburezi bufite ireme bukenera ibikoresho bijyiye bitandukanye nk'amarati n'amakaramu agiye yifashishwa mu gushushanya, ibi ngibi rero bituma ubwonko bw'abana bukanguka kandi nabo bakabasha kuvumbura ibintu bishyashya.

Ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'imibare, bikunze kuba bigaragara ahantu hagiye hatandukanye kuko abenshi bakunze kuba bafite umurava wo kumenya iri somo. Ni byiza rero gutoza abantu bakiri batoya kwitabira uburezi bufite ireme.

Amashusho aba afite ibintu agaragaza, harimo mpande enye, kare n'ibiziga, ibi ngibi tubibona mu mashuri abanza n'ayisumbuye cyane cyane mu isomo ry'imibare.

Ibigo by'amashuri biba bifite uruzitiro ariko haba hagomba no kwandikwaho ikintu urwo ruzitiro rumaze ndetse n'igikorerwamo imbere, ni byiza rero kumenya kubungabunga ibyagezweho ndetse no kumenya gufata neza ibikorwa remezo.

Isomo ry'imibare rikunze kuba rikomeye cyane kuko abantu benshi bararitinya. Aha ngaha rero leta iba yaragiye ishyiraho ingamba zo gukundisha abantu iri somo ndetse bakumva ko ari ibintu bisanzwe.

Akenshi umubyeyi ushaje aba agomba kuganiriza abana bakiri bato, akabacira imigani, akabatoza umuco w'abakera n'uw'abasekuruza wabo, mu rwego rwo gukomeza gusigasira indangagaciro za kinyarwanda.

Imibare ni isomo ryigwa mu mashuri abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza. Abantu benshi rero ntabwo bakiritinya, ugereranyije na mbere kuko abenshi bari barishyizemo ko rikomeye. Ubu rero habonetse abarimu b'intyoza mu kwigisha iryo somo.

Gukorera mu itsinda ni ibintu by'ingenzi cyane, ahangaha rero iyo abantu bahuje imbaraga bagera ku musaruro vuba kandi byihuse, akenshi rero mu mashuri abanza niho ibi bintu bitangirira kuko nk'abarezi baba bagomba kuba ingero nziza z'abana barera.

Ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'imibare, harimo amarati maremare, imikasi, ndetse n'amakaramu y'ibiti. Aho ibi ngibi bikoreshwa mu gushushanya ibinyapande maze abana bakamenya gushushanya neza kandi no kumenya ibyo barimo barakora.

Iyo turimo turiga isomo ry'imibare dukoresha ibikoresho bijyiye bitandukanye nk'icaruziga, amarate, ndetse n'ikaramu z'ibiti kugira ngo dushushanye ibinyampande bimeze neza kandi bisobanutse.

Abana bakiri bato baba batarasobanukirwa neza n'akamaro ko kwiga cyanecyane hifashishijwe uburyo bw'ubugeni, kuko abenshi ntabwo baba bazi ngo umuco nyarwanda uteganya iki, bisaba rero ko abarezi bashyiramo imbaraga mu gushishikarira no gusobanurira abana ibyiza by'umuco nyarwanda.

Hari ibipimo byifashishwa mu kwiga ndetse no kubara cyane cyane mu mashuri abanza n'ayisumbuye, ibi ngibi rero bituma Igihugu gishyira imbaraga mu mibare ndetse no gushishikariza abantu kubyitabira kuko ibintu byose dukora turayikenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu mashuri abanza hakunze kuba hari ibikoresho bigiye bitandukanye ariko bifite icyo bisobanura, aha ngaha rero ntabwo bigomba kwirengagizwa kuko abana bibafasha mu myigire yabo.

Amashuri abanza aba agiye afite ibishushanyo bigaragaza ko hari ikintu kihakorerwa cy'ubumenyi gihambaye. Ibi ngibi bituma ubwenge bw'abana bufunguka, bakabasha kugira amatsiko kandi bakaba bavumbura n'ibindi bintu bishyashya.

Ibitabo by'iyobokamana bikunze kwifashishwa n'abantu bagiye batandukanye, aho bigenda byigisha abantu inzira ya nyayo kandi iboneye, ibi ngibi bituma n'ibyago ndetse n'ibyaha bigenda bigabanuka mu muryango nyarwanda.

Ibishushanyo bigiye bitandukanye, biba bifite icyo bisobanura. Yaba iby'inyamaswa, iby'amatungo yororerwa mu rugo ndetse n'ayaba mu gasozi. Ntabwo rero tugomba kubikerensa cyangwa se ngo dutere agati mu ryinyo ntidusobanuze icyo bishatse kuvuga.

Gahunda zimwe na zimwe za leta zikunze gukorerwa ku bigo by'amashuri, kuko ariho haboneka inyubako zihagije. Ntabwo ibi ngibi rero biboneka ahantu hose ku isi kuko tuba tubikesha ubuyobozi bwiza.

Amashusho ndetse n'ibindi bikinisho bikunze kuboneka mu mashuri y'inshuke, ibingibi bituma ubwonko bw'abana bukanguka ndetse nabo bagashaka kuvumbura ibintu bishyashya maze uburezi bugakomeza gutezwa imbere hakurikijwe ibigaragara.

Amashuri abanza bagenda batozwa kubara. Aha ngaha rero niyo mpamvu uburezi bufite ireme bugomba kuba bwigisha neza isomo ry'imibare kuko ahantu hose wajya mu buzima riragukurikirana kandi usanga abantu benshi baritinya. Iyi myumvire rero igomba guhinduka.

Hagiye hakorwa ibikorwa bitandukanye mu burezi nko kongera ibyumba by'amashuri, kandi u Rwanda rufite gahunda y'uburezi budaheza kuri bose aho ababana n'ubumuga nabo bagiye bahabwa ikaze ndetse n'umwanya mu burezi.

Ibigo by'amashuri biba bifite ibirango by'igihugu. Aha ngaha twavuga nk'ibendera ry'u Rwanda ndetse n'ibindi bimenyetso bigiye bitandukanye. Tugomba kumenya rero gukunda igihugu, dukurikije ibyo tubona ndetse n'ibyo tubwirwa n'ubuyobozi.

Ibitabo bigiye bitandukanye hakunze kuba harimo amashusho nk'ay'imyambaro, ingofero n'imipira migufi ariko ibingibi ntabwo aricyo bishatse kuvuga gusa, ahubwo ni mu rwego rwo gukomeza gushishikariza abato kumenya kwambara bya nyabyo hakurikijwe umuco nyarwanda.

Ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'imibare, bikunze kuba birimo amarati maremare, ay'uruziga ndetse n'igikoresho cyifashishwa mu gushushanya nk'ikaramu y'igiti. Ibi ngibi rero bituma iri somo rikundwa kandi n'abanyeshuri bakaritsinda.

Kugira ngo uburezi butere imbere kandi bugire ireme ni uko umwana agomba kuba afite ibikoresho byose kandi bishoboka, hari ibyifashishwa mu isomo ry'imibare nk'ibishushanyo ndetse n'amarati aho baba baca inziga zigiye zitandukanye.

Urubyiruko rw'u Rwanda rutozwa kugana amashuri ndetse n'abakuze batasomye bakagenda bakabyigishwa kuko buriya ntabwo Igihugu cyatera imbere gifitemo injiji cyangwa se abandi bantu batazi gusoma.

Mu mashuri agiye atandukanye ay'ubumenyigiro, ayisumbuye ndetse na kaminuza hari ibikoresho biba birimo kandi bigaragara, ibi ngibi bituma ireme ry'uburezi rizamuka kandi n'abantu bakagenda bajijuka.

Ibigo by'amashuri bikunze kubakwa neza ariko iyo bidasigasiwe ngo bibungabungwe bisaza hakiri kare ndetse umusaruro byari byitezweho ntube wagerwaho mu gihe runaka. Ni byiza rero kumenya kubungabunga ibyagezweho.

Mu bikoresho dukenera mu burezi harimo n'ibyifashishwa mu isomo ry'imibare, aha ngaha rero ababyeyi bashishikarizwa gukora inshingano zabo bahereza abana babo ibikoresho bikenewe kugira ngo uburezi bukomeze butezwe imbere.

Akenshi iyo ubumenyi bw'ibanze umwana atabufite nta kintu ageraho, bisaba rero guhera hasi akagenda asobanukirwa buri kintu ku kindi atari uguhera hejuru, akamenya gushushanya ibikoresho bimwe na bimwe nk'ibinyampande ndetse n'utundi tuntu tw'ibanze.

Abarezi bagenda bakora bimwe mu bikorwa byo gushyigikira abana ndetse n'abo barera. Aho babahereza nk'ibihembo mu gihe bakoze neza ndetse bakagenda bashishikariza n'abandi kugira ishyaka ryo gukunda kwiga.

Abana b'abakobwa ubu nabo bahawe ijambo bamenya n'agaciro k'ishuri, aho mu muco wo hambere umukobwa atahabwaga uburenganzira bwo kwiga akumva ko ari ugukomeza kwikorera imirimo yo mu rugo no gushaka umugabo gusa.

Impuzankano zihabwa abanyeshuri ni ikirango cya buri kigo. Ntabwo rero tugomba kwambara nk'abashumba cyangwa se twiyambike uko dushatse. Ibi ngibi rero bituma uburezi bukomeza kugira ireme kandi bugatera imbere.

Amashuri yisumbuye agomba kuba afite ingengo y'imari ihagije. Abana bakabasha kugaburirwa, bakarya bagahaga. Buriya ntabwo wakiga ushonje. Ibingibi rero leta igomba kubyitaho kandi ikabikurikirana ku buryo bwimbitse.

Abanyeshuri bakunze kuba bambaye impuzankano zisa kandi zimeze neza. Ibi ngibi bituma umubare w'abantu bitabira ishuri ugenda wiyongera, bitewe n'ubufasha bagenda bahabwa mu kubona ibikoresho bakenera ku ishuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, baba bagomba kuba bafite impuzankano, zimeze neza kandi zisa. Ibi ngibi bituma batandukanywa n'abaturage bo hanze cyangwa se abandi bantu.

Uburezi bufite ireme bugira ibiburanga, harimo nko kugira ikinyabupfura, kwambara impuzankano zisa kandi zimeze neza ndetse abanyeshuri baba bagomba no gutebeza, bakanagorora mu rwego rwo gukomeza kunoza umuco w'isuku.

Abana iyo bamaze kwambara impuzankano, uba usanga ari ibintu byiza kandi binogeye ijisho. Ntabwo rero tugomba kwirengagiza ko tugomba gushyigikira urubyiruko rwacu mu kugana ishuri ndetse tugashishikariza n'abatazi gusoma gukomeza kwitabira icyo gikorwa.

Ibyapa bikunze gushyirwa ahantu hagaragara, kandi ibingibi bituma abantu batayoba cyangwa se ngo bagire inzitizi mu gihe bakeneye serivisi runaka, bigomba rero gufatwa neza kandi ntibyangizwe aho usanga nk'abana babishwaraturaho kandi iyi mico ntabwo iba iboneye rwose.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye bwakomeje kugenda bugaragaza ko bufitemo icyuho kinini cyane, aho usanga abana b'abakobwa bagenda basubira inyuma, nyuma y'uko bigaragaye ko abahungu ari bo bari gutsinda cyane, ibi ngibi rero bigomba kugenda bishyirwamo imbaraga ndetse abantu bagakomeza gusobanurirwa neza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye.

Urubyiruko rw'u Rwanda ruba rugomba kwigishwa ndetse rugahabwa n'ibindi bikorwa bituma rwiteza imbere, cyanecyane mu gisata cy'uburezi niho hakunze kugenda habonekamo amahirwe kuko nk'akazi gahabwa urubyiruko ruba rwarize kaba gatanga amafaranga menshi kandi ahagije.

Urukundo ni kimwe mu bimenyetso bikunze kugaragara mu rubyiruko, aha ngaha dukunze kubibona cyane nko mashuri yisumbuye aho usanga abana bahoberana bishimye cyane cyane iyo bavuye nko mu biruhuko igihe baba badaherukana.

Uburezi bufite ireme haba hari ingamba zikomeye ziba zarashyizweho. Ntabwo rero twakwicara ngo dukerensa imwe mu migabo n'imigambi leta ifite mu rwego rwo gushyigikira uburezi ndetse n'uburere.

Ibikorwa bimwe na bimwe by'ubuhinzi n'ubworozi bikunze kugenda byigishwa mu mashuri agiye atandukanye, ibi ngibi bifasha abana kugenda bashishikariza ababyeyi babo uburyo bwa nyabwo kandi bugezweho mu rwego rwo guteza imbere ubuhinzi.

lbigo by'amashuri yisumbuye bikunze kwambika abana impuzankano zisa ,ibi ngibi rero byatumye uburezi bugira ireme ,kandi n'ababukora bakomeza kugenda babona andi mahirwe, bitewe n'ibikorwa bagiye bakora.

Urubyiruko rwagiye rushishikarizwa gusoma ndetse no kwitanga, ibingibi rero biri mu ndangagaciro za kinyarwanda, ariko harimo n'abagira nabi, ntibabashe gukora ibyo basabwa n'ababyeyi cyangwa se n'Igihugu muri rusange.

Amashuri agenda yubakwa afite ikintu cyinshi agenda akemura kuko nk'ubugubu nta muntu ugihezwa cyangwa se ngo abure ahantu akorera ibikorwa bye bya leta bijyanye n'uburezi. Ntabwo kandi twakirengagiza ko n'abafite ubumuga bagiye bahabwa ijambo ndetse na bo bakisangamo muri ibi bikorwa bya leta.

Amashuri makuru na za kaminuza akunze kuba afite ubusitani bubiyateye imbere, ibingibi bituma abantu benshi bakunze kuhatemberera, bakaharuhukira bakahakorera inama ndetse n'ibirori bigiye bitandukanye.

Amashuri y'inshuke abanza ayisumbuye na kaminuza, yose akunze kugaragaramo ibintu by'ubugeni. Ibi ngibi rero ni ibintu bituma umuco nyarwanda ukomeza gukura kandi ntiwibagirane mu bakiri bato.

Amashuri y'inshuke akunze kuba afite ibintu biyaranga, harimo nk'ibishushanyoba bigiye biri ku nkuta, aho usanga abana iyo babirebye batangira kugira amatsiko menshi, ubwonko bwabo bukaguka kandi bagatangira gutekereza kure.

Akenshi ibikoresho gakondo ntabwo bikunze gufatwa neza, harimo abatabimenya ugasanga barabyangije cyangwa se nk'ahantu hari ibumba ugasanga abantu barimo baragenda babimenagura uko bishakiye, ibikorwa nk'ibi ngibi ntabwo biba bikwiye.

Amashuri makuru na za kaminuza iyo bigeze ku munsi wo gusoza baba bambaye impuzankano zigaragarira buri wese, iki gikorwa rero kiba gikomeye cyane ntabwo twabura kugishyigikira cyangwa se ngo twiteze imbere mu burezi.

Ubuyobozi bugiye butandukanye bw'igihugu cyacu harimo na perezida wa repubulika, bakunze kugira ibikorwa na bimwe bagenda basura mu rwego rwo gukomeza gushyigikira abaturage no gukomeza ibyagezweho.

Amashuri makuru na za kaminuza, agiye afite ibikoresho gakondo, bikoze mu mabumba. Ibi ngibi rero iyo bisigasiwe neza n'umuco nyarwanda ukomeza kugenda ukura mu batoya no mu rubyiruko.

Ibikoresho bya gakondo bibabifite icyo bisobanura, bigomba rero kubungabungwa neza bikitabwaho kandi bikaba biri ahantu hafite umutekano ntibibashe gusandazwa n'ubonetse wese.

Ibyumba by'amashuri nka za kaminuza, hakunze kuba harimo intebe zigiye zitandukanye kandi z'amoko menshi. Ibi ngibi bituma abanyeshuri bisanzura mu gihe bari kwiga kandi bakaba bagira n'ibindi bintu bavumbura bidasanzwe.

Imitako igenda imanuka mu mashuri makuru ndetse na kaminuza iba ifite ikintu igaragaza gikomeye cyane, akenshi rero ntabwo abantu bakunze kubyitaho usanga bahugiye murandasi gusa kandi bakarangara ntibabashe gutekereza ku bintu bibagaragiye.

Amashuri makuru na za kaminuza aba afite ahantu heza ho kwigira, ibi ngibi rero bituma igihugu cyunguka abashakashatsi benshi kandi bashoboye, ibi rero n'ireme ry'uburezi bituma rizamuka kandi tugakomeza kwiteza imbere.

Ibikorwa remezo bigiye biboneka ahantu hagiye hatandukanye, aha ngaha harimo nk'ibintu bya kera bigaragaza amateka kandi biba bifite n'icyo byigisha, aha ngaha rero urubyiruko rugomba kwitabira amateka rukayamenya kandi rukagenda rukurikiza n'inama ruhabwa n'abakuru.

Ahantu hameze neza hagaragazwa n'ibintu bigiye bitandukanye, aha ngaha navuga nk'ibishushanyo by'amoko menshi ndetse biba bifite icyo bisigura, tugomba rero kwitabira umuco mwiza wo gusobanukirwa no gusoma ibirango by'amateka.

Inyubako zimwe na zimwe za kaminuza ziba zifite imibare iziranga. Ibingibi bituma umuntu atayoba ngo ajye mu cyumba cy'undi cyangwa se ajya gushakira serivisi aho itari. Kandi ibindi binorohereza abandi bayobozi baba bari gukora igenzura kumenya uwo babaza habaye nk'ikibazo.

Ibikorwaremezo bigomba kuba biri ahantu heza kandi haboneye. Nta muntu rero ugomba gushaka serivisi runaka ngo azibure kuko ni uburenganzira bwe. Hari imisoro igenda itangwa ku bikorwa bimwe na bimwe nk'ubucuruzi kandi ibi ngibi na byo bigenda bitanga umusaruro ugaragara.

Ubushakashatsi bugenda bukorwa hirya no hino bukunze gutanga umusaruro, ibi ngibi rero bituma iterambere ry'igihugu ryiyongera abantu benshi bakava munsi y'umurongo w'ubukene.

Kugira ngo igihugu kibone amafaranga n'intiti, ni uko kigomba gushora mu burezi. Aha ngaha rero ingengo y'imari igomba guhabwa abari muri iki gisata, mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa nk'ibyo ngibyo.

Ibyumba by'amashuri bigomba kuba bifite ibikoresho bitandukanye kandi bihagije, aha ngaha twavugamo nk'intebe, aho tugomba kuba dufite ahantu ho kwicara hameze neza hisanzuye kandi hafite isuku.

Kimwe mu bikorwa bifasha iterambere harimo uburezi n'ubuzima. Ibi ngibi rero ntibigomba kwirengagizwa cyangwa ngo bikerentswe, hagomba gushyirwamo imbaraga nyinshi kandi zishoboka kugira ngo bikomeze gukorwa neza.

Amashuri makuru na za kaminuza usanga afite intebe ziri mu moko atandukanye kuko baba bafite aho batereka ibikoresho byabo nka za mudasobwa cyangwa se n'amatelefone mu gihe barimo barasoma.

Bimwe mu birango by'umuco, harimo ibishushanyo bya kera ndetse ibi ngibi bikagaragaza umwimerere w'abakurambere bo hambere, aho bagaragaraga bashushanya ibintu byinshi bitandukanye nk'ikimenyetso cyiza cy'ubugeni.

Ibikoresho twifashisha mu burezi cyane cyane mu mashuri makuru na za kaminuza, harimo; telefone, amakayi, amakaramu ndetse na mudasobwa. Ibi ngibi iyo umunyeshuri abifite abasha kwiga neza, ntagire ikibazo mu myigire ye.

Amashuri makuru na za kaminuza akunze kuba afite intebe z'amoko atandukanye. Ibingibi bifasha abanyeshuri biga muri izi ngeri bamererwa neza kandi bakabasha no kuvumbura ibintu bishyashya.

Amashuri makuru na za kaminuza iyo bigeze mu gihe k'ibizamini no gukora cyane usanga abanyeshuri bose bashishikaye kandi bafite umwete udasanzwe, ibi ngibi rero bituma ireme ry'uburezi rizamuka.

Kubaho neza kandi no gutura heza bisaba ibintu bigiye bitandukanye, harimo imihanda ya kaburimbo ndetse n'ibiti bigomba kuba biteye ku ruhande mu rwego rwo gukomeza gushyigikira ibikorwa remezo.

Kugira ngo uburezi butere imbere ni uko tugomba kugira bimwe twigomwa nko kurangara no kudakora ibintu bitajyanye n'uwo mwuga, ibi rero bizatuma dutera imbere kandi tukiteza imbere mu ngeri zose zitandukanye.

Ibyumba by'inama na byo bikunze kuba bifite isuku, aha ngaha cyane cyane nko mu mashuri makuru na za kaminuza usanga byitabwaho cyane kuko twamaze kugenda dusobanukirwa neza ko isuku ari isoko y'ubuzima.

Ibyumba by'inama bikunze kuba biri ahantu heza kandi hizewe hafite isuku, ntabwo rero tugomba kwicara ngo dukerense kubigirira isuku cyangwa se kubyitaho, tugomba kuba ahantu heza hafite isuku kandi hizewe.

Umuco wo gusoma ukomeje kugenda utezwa imbere cyane yaba mu mashuri abanza ayisumbuye ndetse na za kaminuza, aha ngaha rero hagomba gushyirwamo imbaraga nyinshi mu ikoranabuhanga kugira ngo n'umuco ukomeze kandi usugire.

Amashuri makuru na za kaminuza akunze kuba afite intebe yicaraho mu gihe harimo arasubira mu masomo yabo cyangwa se barimo barakora nk'ubushakashatsi, ibi ngibi bituma ireme ry'uburezi rizamuka.

Ahantu duparika ibinyabiziga hagomba kuba hameze neza kandi hizewe hari n'umutekano, ibi ngibi bizatuma umutekano wiyongera kandi natwe turusheho kumva ko dutekanye mu rwego rwo gukomeza kumererwa neza.

Ubugeni ni bimwe mu bintu bikunze kwifashishwa n'abashakashatsi ndetse n'izindi nzobere zigiye zitandukanye zituruka hirya no hino ku isi, ibi ngibi bituma imico y'ibihugu igenda itandukana hakurikijwe ibyagiye bisigwa n'abakurambere babyo.

Ibyumba by'amashuri bikunze kubonekamo intebe nziza ndetse n'ameza, ibi ngibi bituma abanyeshuri biga bisanzuye kandi bumva bafite n'umutekano maze nabo bakarushaho kwiteza imbere ndetse no kwaguka mu bitekerezo.

Ibyapa bigiye bitandukanye biba bifite icyo bigaragaza, nta muntu rero utagomba kumenya gusoma ndetse ngo yubahirize n'amategeko aba yatanzwe, ibi ngibi bituma abantu bakomeza kugenda basobanukirwa n'ibikorwa remezo ndetse n'inyungu tubikuramo.

Amashuri makuru na za kaminuza akunze kuba afite ibintu by'ubugeni biyoberanye cyane, bisaba rero ko umuntu yicara agasesengura akamenya icyo ibyo bintu biri gusigura, harimo n'abagendera mu kigare bakagira ngo babyumvishe nyamara batasobanukiwe neza.

Inyubako z'amashuri makuru ndetse na kaminuza zikunze kuba zigeretse, ibingibi bituma abahafatira ubumenyi biga bisanzuye bakagenda bagakora ubushakashatsi ndetse ibi ngibi bigatuma ireme ry'uburezi rikomera.

Amashuri makuru na za kaminuza agiye afite ibyumba byiza kandi bihagije. Aho usanga buri cyose gifite inomero ikiranga mu rwego rwo kurinda abanyeshuri babamo ubujura cyangwa se kuyobagurika.

Mu rwego rwo gushyigikira uburezi bufite ireme, leta yagerageje guhereza abanyeshuri mudasobwa kugira ngo bajye bazifashisha mu masomo yabo. Ibi ngibi byagiye bizamura ireme ry'uburezi kandi n'umusaruro ugenda ugaragara.

Inama zigenda zikorwa muri rusange zikunze kubyara umusaruro, abantu benshi rero bakunze kugenda bazikerensa abandi bagakererwa, harimo n'abo zikorwa barangaye bahugiye mu matelefoni, imyitwarire nk'iyi ngiyi igomba gukosorwa kandi ntigasubire ukundi mu muco nyarwanda, tuba tugomba gukurikirana icyo twatojwe kuva kera.

Abanyeshuri iyo basoje amashuri makuru, bakunze gukorerwa ibirori byo gufata impamyabumenyi zabo. Ibi ngibi rero ntibiba bigomba kubibagiza icyo umuryango ubategerejeho ndetse n'Igihugu muri rusange.

ahantu haba hari abanyeshuri benshi hagomba kuba hari n'ibikoresho bifasha mu kwiga, aha ngaha twavuga nk'amatelefone aha ndavu mu mashuri makuru intebe zo kwicaraho kandi zimeze neza.

Amashuri agiye anyuranye aba afite ibibaho byo kwandikaho, ntabwo ibingibi rero bigomba gukerenswa cyangwa ngo bifatwe nabi bigomba gushyirwamo imbaraga yaba leta, yaba igihugu, ndetse n'abo ibikorwa byagiye bigenerwa.

Amashuri makuru na za kaminuza abafite inyubako nziza. Imbere yazo hakunze kuba hari ubusitani kandi ibigibi bituma hagaragara neza n'umuntu uhasuye akanogerwa ku buryo bwiza.

Bimwe mu bikoresho bya kinyarwanda harimo udutete, utungubutu dukunze kuba dukoreshwa cyane mu gihe abantu bagiye guhaha cyangwa se batwaramo imbuto mu gihe cy'ihinga, ni ibirango by'umuco rero wa kinyarwanda.

Bimwe mu birango by'umuco harimo n'ibumba cyangwa se ibikozwe muri ryo. Ntabwo rero tugomba gukerensa gushyigikira umuco nyarwanda, tuba tugomba kuwusigasira kugira udacika mu rubyiruko ndetse no mu bakiri bato.

Ahantu ho kwigira haba hagomba kuba hameze neza kandi hafite isuku cyane cyane nko kuhatera intebe, ameza mu rwego rwo kwifashisha neza ibikoresho bihari kandi bigakurikizwa mu buryo bwa nyabwo buboneye.

Bimwe mu bikoresho bya kera ntabwo bikunze kwitabwaho cyane, kuko harimo abo batazi akamaro kabyo badasobanukiwe, ni byizayiza rero ko hakorwa ubukangurambaga bwimbitse maze abantu bakagenda batozwa umuco nyarwanda bakamenya n'ibikoresho byakoreshwaga icyo gihe.

Ahantu hari ubusitani haba hagomba kwitabwaho kandi hakarindwa kwangizwa n'ibintu bibonetse byose, harimo rero abantu bagenda bakanikamo imyenda kandi tuzi ko neza irasabune iyo igeze kuri ibi bimera irabyangiza ntibibe bigikuze neza.